Ibice bigize umubiri w'umuntu ni bya bindi biboneka ahantu bigishiriza cyane cyane mu mashuri abanza, aho aba agaragaza ibice bigize umubiri wa muntu; amaso, umutwe, igituza ,amaguru ndetse n'ibindi bice.

Abana babiri ndetse n'undi mukobwa mukuru barimo kwicunga mu byicungo, byabindi bikunze kuboneka ahantu hari amashuri abanza, ndetse no muri garidiyene cyangwa se mu mashuri y'inshuke. Ibingibi bituma umuntu yishima igihe arimo kurya kanyenga.

Urukuta ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, hariho ingorofani inyama imanitse ku giti hakabaho inkoko ibaze ndetse n'ibindi bishusho by'amoko atandukanye.

Mu kigo cy'amashuri, aho hari ubusitani bugizwe n'umucaca, amashuri aratatse, hashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye, ibimera, hakabaho ibikoresho ndetse n'ibindi byinshi.

Urukuta ruriho ibishushanyo bigiye bitandukanye ibyiganjemo ibimera bigizwe n'ibishyimbo, hariho imyumbati hakabaho n'inkoko ibaze na yo ishushanyije.

Udukoresho tw'udupupe dukoze nk'iradiyo, utu ngutu twifashishwa n'abana bakiri batoya nk'ibikinisho cyangwa se tugakoreshwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, barimo kudukoresha nk'imfashanyigisho.

Agakoresho kagizwe n'amabara agiye atandukanye, hariho ibara ry'icyatsi ndetse hakabaho n'ibara ry'umweru n'andi agera kuri ane y'umutuku.

Iduka riri ahantu mu mujyi, aho hari abantu bari mu muryango baje kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari moto iparitse hanze ndetse n'umufuka wa makara, imbere kandi hariho isima ndetse hasi hariho amakaro.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri barimo kugenda bakina imikino igiye itandukanye, hariho ubutaka budahinze ndetse kandi imbere yaho hariho igiti kirekire cy'amapoto y'amashanyarazi.

Igikapu umuntu aheka mu mugongo cyane cyane gikoreshwa n'bana biga mu mashuri abanza mu gihe bagiye ku ishuri, gifite amabara ajyi atandukanye ndetse inyuma hariho ibishushanyo.

ibikoresho by'ishuri biri ku meza ndetse kandi hariho n'intebe z'imyeru, ibikapu ndetse n'ameza. Ahangaha ni mu bubiko aharimo ibikoresho bitandukanye biri ku meza ndetse n'izindi ntebe zijya zitandukanye ibishushanyo ndetse n'ibindi.

Aba ni abanyeshuri barimo gukina imikino igiye itandukanye biganjemo abiga mu mashuri abanza ndetse na mwarimu wabo arimo kugenda abigisha umukino babyina bazenguruka bamwe bashyirara amaboko inyuma bambaye impuzankano igizwe n'amajipo cyangwa se amapantalo y'ubururu ndetse n'imipira cyangwa se amashati y'imihondo.

Inyubako ikiri nshyashya aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba izengurukijwe n'uruzitiro rukoze mu byuma rusize irangi ry'ubururu.

Ikigo cy'amashuri aho hariho igice cy'umubiri w'umuntu kigaragaza amagufa agize umubiri, aha ngaha kandi hateye sima ariko yarashaje, ni ukuvuga ngo sima yagiye ivaho ndetse kandi urugi ruhari ni urw'umukara.

Agakoresho gakoze nk'imoto, aka ngaka bagiye bafata insingaziye zitandukanye, bakora amapine ndetse bagaragaza imoto umuntu ashobora gutwara. Aha ngaha ni mu buryo baba bashimisha abana cyane cyane mu mashuri y'inshuke.

Ikigo cy'amashuri gifite inzugi z'ubururu, imbere yaho hariho ikigega cy'umukara, hakabaho n'ubukarabiro, aho umuntu ashobora kurwifashisha, igihe ari gukaraba intoki.

Inyubako yubatse neza ndetse yubatse mu buryo bw'amashuri, aha ngaha ni aho abantu bashobora kuza bakahigira ndetse hazengurukijwe na sima ni ukuvuga ngo hasi hose hateye isima uretse hakurya hatari haterwa ubusitani kuko aribwo inyubako ikimara kuzura.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo ibikoreshwa n'abanyeshuri biga gupima cyangwa se yiga Jewometiri, hariho kompa, hakabaho n'amarati agera kuri abiri, amwe apima mpandeshatu ndetse n'indi ikora igice cy'uruziga.

Ibikoresho by'imfashanyigisho byiganjemo, umuneke, ikigori, hakabaho urusenda ndetse n'ikindi bita ikibiringanya. Ibi ngibi byifashishwa mu mashuri abanza kugira ngo abana bakiri batoya babereke ibintu ushobora gukoreshwa mu biryo bya buri munsi.

Igitabo kirimo abanyeshuri barimo kugana mu bice bigiye bitandukanye by'aho bigira, aho hariho n'abanyeshuri bandi bagiye batandukanye hakabaho n'abarimu babo barimo kubitegereza, ni ikigo ndetse mo hagati hariho n'ibendera ry'u Rwanda.

Udukoresho tw'amoko agiye atandukanye, higanjemo udukoreshwa mu mashuri abanza, utu ngutu twifashishwa n'abaganga b'inzobere nk'uko tubigaragaza, igihe barimo gukora ubushakashatsi, mu kigo cyabugenewe.

Ikiganiro itetero aho abana baba bari kumwe batanga ibitekerezo. Aha ngaha ni ikiganiro cy'abana batoya ndetse n'imiryango yabo gishobora guca kuri Radiyo Rwanda ku wa Kabiri saa kumi n'imwe n'igice ndetse no ku wa Gatandatu saa yine n'igice.

Ibigaragara mu mfashanyigisho cyangwa se igitabo biboneka mu mashuri abanza. Aho hariho umubyeyi urimo kuganiriza umwana we, hakabaho kandi nanone abantu bamaze kurangiza amashuri n'indi shusho igaragaza umubyeyi urimo kugira inama abana be.

Agakoresho k'umunyeshuri kaba kiganjemo: kompa, amarati ndetse n'ibindi bikoresho umuntu yakifashisha mu gupima. Ibi ngibi bikoreshwa cyane cyane mu isomo ry'imibare.

Igitabo kiriho abana bagiye batandukanye, ibi ni bya bindi bitangwa mu mashuri biba biriho imfashanyigisho, ifasha abana mu kwiga gusoma Ikinyarwanda ndetse no kucyandika.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana barimo kujya ku byicungo ni muri cya gihe abana baba basohotse mu mashuri bari kuruhuka, igihe cya saa yine cyangwa se saa kenda barikurira ku byicungo, ni ukuvuga ngo bikurura abana bigatuma bishima bakanezerwa no kwiga.

Udukoresho tugiye dutandukanye harimo tumwe tureture tumeze nk'amakona tw'icyatsi, harimo n'utundi dutoya bifite amabara agiye atandukanye harimo: umweru, umuhondo, icyatsi ndetse n'utundi.

Ibikoresho by'ishuri byiganjemo: amarati, kompa ndetse n'utundi tuntu turiho inyuguti n'imibare. Umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari kwandika ashaka gukora akantu keza. Aha ngaha rero kandi hari amarati atandukanye. Aho amwe apima mpande eshatu ndetse n'ibindi ushobora gucisha umurongo.

Ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, aho hariho bote, uturindantoki, ndetse n'agapfukamunwa, bishobora kwifashishwa mu gihe umuntu arimo guhinga, cyangwa se igihe umuntu arimo gutera umuti.

Ibikoresho by'ishuri byiganjemo amarati, kompa ndetse n'ikaramu y'igiti n'akandi kantu gasiba mu gihe wanditse ibintu udashaka, hanyuma urabisiba kugira ngo wandike ibyo ushaka kwandika wari wagambiriye.

Abana biga mu mashuri abanza barimo kugenda bakusanya imyanda yagiye ijugunywa mu duce tujya dutandukanye tw'iki kibuga, bagenda bayibumbiriza hamwe bayishyira mu ndobo ndetse yamara kugwira bakagenda bakayimena mu ngarani, mu rwego rwo kurinda ibidukikije no kurwanya umwanda.

Umukobwa ndetse n'umusore bafite ibitabo, aba ngaba ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza ukurikije impuzankano bambaye. Umukobwa yambaye ikanzu y'ubururu n'aho umusore yambaye agashati ndetse n'ikabutura bya kaki.

Abantu bagera kuri batatu bambaye amasarubeti biragaragara ko ari abatekinisiye muri umwe afite akabaho kari imbere ye, arimo kugenda ashyira mu bikorwa ibyo yize, baba barabyize mu magambo hanyuma barimo kugenda babishyira mu bikorwa.

Abanyeshuri barimo kugenda mu nzira biganjemo abambaye imipira y'ubururu ndetse n'amapantaro y'umukara gusa harimo n'undi wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro ya kake, barimo kugenda ku murongo bajya mu bice bigiye bitandukanye, aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Imbaga y'abanyeshuri benshi b'abakobwa, bicaye ahantu muri sale, barimo kugenda baganirizwa, aha ngaha kandi bambaye imyenda isa, bambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru ndetse n'amajipo y'icyatsi.

Ibikoreshojyeye bitandukanye, ushobora gusanga aho bakorera ubushakashatsi, byiganjemo, utuntu tumeze n'amajage, rukururuzi, iminzani ndetse n'ibyiyumvirizo, abaganga bakoresha amarati ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri batonze imirongo, aho biganjemo abahungu n'abakobwa, gusa abahungu ntabwo bambaye impuzankano isa n'iy'abakobwa. Abahungu bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'imyeru ndetse n'amapantaro asa n'ivu ndetse ku rundi ruhande hariho abakobwa, bambaye imyenda y'impuzankano, igizwe n'amakanzu afite ibara ry'iroza.

Abantu benshi bambaye utujiri twamabara agiye atandukanye, harimo bambaye utujiri twamabara y'ubururu ndetse n'abandi ni utw'icyatsi, abandi dusa oranje, barimo kugenda basuzuma ibintu byinshi bitandukanye ahangaha muri iki kigo.

Umukobwa ukiri muto w'umunyeshuri yambaye karuvati irimo uturongo tw'umweru ndetse n'ubururu, yambaye ishati y'umweru, afite n'umusatsi uyu nguyu yiga mu mashuri yisumbuye.

Mu kigo cy'amashuri hariho abanyeshuri benshi bicaye, hanyuma imbere yabo ahagaze umugabo, urimo kugenda abagezaho ubutumwa, ashobora kuba ari umuyobozi w'ikigo cyangwa se akaba ari animateri cyangwa se umwe muri bo, ashobora no kubona n'umwarimu.

Abanyeshuri bafite impamyabumenyi bazifite mu ntoki, bamwe bicaye ku ntebe abandi bari inyuma barahagaze, bari kumwe n'abarimu babo, babafasha mu kubahereza amasomo, aha ngaha baba barangije gukora ibizamini ndetse bagahabwa impamyabumenyi.

Ububiko bw'ibitabo bigiye bitandukanye, aho umuntu aza akicara agatumiza igitabo ashaka gusoma cyangwa se ikirimo inkuru. Aha ngaha haba hariho ushinzwe kino cyumba ariwe ushinzwe ibitabo umenya ibyahinjiye, ibyatiwe ndetse n'ibyagaruwe.

Abanyeshuri bicaye bazengurutse ameza, hakuno hariyo abayobozi bagera kuri babiri b'abagabo. Barimo kugenda babaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri barimo kugenda biga, aha ngaha ni mu mashuri yisumbuye abenshi muri bo ntabwo bambaye impuzankano, biganjemo urubyiruko rw'abasore n'abakobwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye udupfukamunwa, bafite mudasobwa imbere yabo barimo kugenda biga, bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda kwanduzanya indwara.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba kirimo mudasobwa buri umwe yicaye imbere ya mudasobwa ye kandi bicaye mu matsinda aho bicaye bazengurutse ameza ndetse kandi ahantu bicaye ni muri bya byumba biba bigezweho biba birimo imashini, akenshi biba mu mashuri yisumbuye.

Umunyeshuri w'umukobwa ari imbere y'abandi banyeshuri, afite agapapuro arimo gusoma abandi banyeshuri bari kumwitegereza baricaye, biba bimeze nka cya gihe baba bari mu marushanwa bari mu biganiro mpaka, aho umwe aba ari umuhuza harimo bamwe bari kumva ibyo ari kuganira, hanyuma ari impande ebyiri zihanganye.

Agakaye karimo imibare igiye itandukanye yandikishijwe n'ikaramu, aho ari amasomo ajyanye n'imibare. Hariho ibibazo bagiye bakora mu buryo bugiye butandukanye.

Ikibumbano cyakozwe n'abantu biga ibintu bijyanye n'ubugeni cyangwa se abantu b'abahanga mu kubumba, bifashisha ibyondo barangiza bagakuramo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikombe, amajage ndetse n'utundi tuntu dukorwa mu ibumba.

Ubusitani burimo indabo zicunze neza, ku ruhande hariho udusima tugiye twubatse, dusize amabara y'umukara ndetse n'umweru aha ngaha ugenda unyura muri aka gahanda, ntabwo uba wemerewe kunyura mu busitani kuko biba bibujijwe.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikozwe mu ibumba, ibingibi n bya bindi bikorwa n'abantu biga ibintu bijyanye n'ubugeni cyangwa se abiga ibijyanye n'ubukorikori.

Ibikoresho bikoze mu ibumba, byiganjemo ibimeze nk'amajage, harimo kimwe kimeze nk'agakono, aho ibyinshi muri ibi, biba byabumbywe n'abantu biga ibijyanye n'ubukorikori.

Abanyeshuri bagiye bicaye mu matsinda barimo kugenda baganira. Bicaye ku ntebe zisa mu ibara ry'icyatsi, barimo kuganira. Hanyuma bagiye barebana uko ari batatu.

Umusore wicaye ari ahantu hari ibitabo, imbere ye kandi afite mudasobwa arimo guseka, arimo kugenda areba ibintu bigiye bitandukanye muri mudasobwa ye ari na ko ari kwihugura.

Abakobwa babiri barimo kugenda mu muhanda. Barimo kugenda baganira nitwa tuyira tunyurwamo n'abanyamaguru. Aho ibinyabiziga bitagomba kubasagararira. Aha ngaha bahanyura bafite umutekano kandi batuje.

Agakayi ndetse n'urupapuro rwa depurikata aho ruba ruriho ibibazo babajije umunyeshuri. Ahangaha ni umunyeshuri urimo kugenda asoma ari nako agenda asubiza yandika muri aka gakayi ke k'ubururu, arimo kugenda yiga.

Urubyiruko rw'abasore barimo kugenda bamanuka. Bari guca ku masikariye cyangwa se ku birimbi. Aho umuntu agenda anyura urugero ari kuzamuka ndetse ku ruhande rw'ibirimbi, hariho utwuma umuntu agenda afasheho, ku buryo adashobora kunyerera. Nawe ku buryo yifashisha utwo twuma two ku ruhande agenda adufashemo.

Intebe ya kera bajya bita gatebe gatoki, aho ishobora kwicabwaho mu bice bibiri bigiye bitandukanye hejuru cyangwa se hasi. Ni za zindi babaza mu biti cyane cyane bikorwa n'abantu biga ibintu birimo ubukorikori ndetse n'ibijyanye n'ubugeni.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo kugenda baganira, abenshi muri bo bambaye amakarita abaranga bayambaye mu ijosi kandi abenshi bambaye imipira y'amatisheti n'amarakosite igiye isa.

Ibyo abanyabugeni bakoze, bagiye bashushanya utuntu tugiye dutandukanye kubera ko baba bafite ubuhanga bukomeye mu gushushanya n'umuntu ubwe bashobora kumushushanya kubera ko baba bafite ubuhanga, utu ni utuntu bagiye bakora, tumeze nk'imashini.

Abantu b'urubyiruko barimo kugenda mu kayira,. Barimo kugenda baganira ni abasore babiri ndetse n'undi mukobwa umwe. Umusore umwe yambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro bisa. Umusore kandi uri hagati afashe akaboko umukobwa mugenzi we.

Imbuga irimo amapave ndetse hakurya hariho aho umuntu ashobora gukarabira intoki mu rwe rwo kwirinda indwara zishobora guturuka ku mwanda cyangwa se kwirinda icyorezo cya korona, aha ngaha inyuma kandi hariho ubusitani bwiza.

Ibikoresho gakondo byiganjemo ibyo bagiye babumba, harimo amabinika. hakabamo amabaze, inkono ndetse n'ibindi byinshi. Ibingibi ni bya bindi abantu bakura mu mabumba bishobora kugurishwa umuntu wabikoze akabonamo amafaranga.

Ikibaho bya bindi bigezweho bandikishaho marike bidashobora kujyaho ingwa, ibi ngibi biboneka cyane cyane muri za kaminuza ndetse n'ibindi bigo bikomeye aho abarimu bifashisha ikaramu yandika cyangwa se marikeri kugira ngo bigishe abanyeshuri.